Abantu benshi bari mu nama aho harimo abagore, abagabo baba abirabura cyangwa se abazungu, ndetse bakaba bari kuganira bungurana ibitekerezo ndetse banafata ingamba ku bibazo byaba byabonetse, hari kandi amazi ndetse n'imitobe yo kunywa.

Urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa basoje amashuri yisumbuye, bari mu rugerero rero aho bitwa inkomezabigwi bitewe n'ikiciro bagezemo, ndetse bakaba baganirizwa ku butwari bw'igihugu no gufasha abantu, bakaba bari kuganirizwa rero n'umukuru cyangwa umutoza mukuru wabo.

Abanyarwandakazi cyangwa se abategarugori bari mu nama iri kubera mu nteko ishinga amategeko aho bakurikiye umuyobozi wabo kandi batanga n'ibitekerezo mu igenamigambi n'amategeko mashyashya igihugu cyashyira mu bikorwa.

Abayobozi bakurikiye inama ndetse bakaba bari kungurana ibitekerezo barakoresha ibikoresho bitandukanye birimo nka telefoni, mudasobwa ndetse n'ibindi nkabyo bikenewe kugira ngo abantu baroshye itumanaho, bakaba bari kuganira ku bibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo.

Inama ihuje urubyiruko rutandukanye ndetse n'abayobozi barwo, aho bari kurebera hamwe ibibazo bihari ndetse bagafata n'ingamba zo kurwanya ibyo bibazo byugarije urubyiruko dore ko ari cyo gihugu cy'ejo hazaza.

Inama y'abakuru b'umujyi, aho biga ku bitekerezo ibibazo, ndetse bagashaka ibisubizo n'ingamba z'ibibazo byabo byabonetse, bagafatira n'imyanzuro ibibazo byose biri mu gace runaka, bityo bigatuma habaho iterambere ryihuse kuri buri muturage no mu gihugu muri rusange.

Abagore babiri bari mu modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho umwe ari kwereka muri telefoni ye undi ibyo ari gukora, hakaba hari umusilamukazi wambaye amadarubindi, ndetse n'undi mugore usanzwe, hari n'undi mugore uri aho ku ruhande uri kubareba,

Uru ni urubuga leta yashyizeho kugira ifashe abaturage ndetse n'abaturarwanda muri rusange kubona serivisi za leta hifashijwe ikoranabuhanga kandi ku makuru yizewe utavuye aho uri.

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Urubuga rw'irembo rwa leta cyangwa se rw'ubuyobozi bw'igihugu aho umuntu akora ndetse akanahabwa serivisi y'ibanze akeneye, ndetse akaba ari kutubwira ko ubyikorera ashobora gukanda akanyenyeri icyenda zeru, icyenda, urwego maze ukikorera serivisi wowe ubwawe aho wicariye utavuye aho uri.

Igiti kirekire gishyirwaho insinga zikoreshwa kugira ngo zohereze amashanyarazi mu ngo z'abantu, bityo bigatuma abageraho byoroshye ndetse bikaba n'igikorwa remezo cya buri muntu, tukaba tubona rero imodoka ifunguye umuryango ndetse imbere yayo hakaba hari igiti no hakurya hakaba hari inzu.

Inkingi y'imbumbano ikoreshwa kugira ngo ababifitiye ububasha cyangwa se ikigo gishinzwe gusakaza umuriro w'amashanyarazi bakoresha; kugira ngo basakaze uwo muriro w'amashanyarazi ku baturage bose neza kandi nta nkomyi mu gihe gikwiye.

Igikorwa remezo cyo gusakaza amashanyarazi ku baturage bose; aho hari amapoto cyangwa se ibyuma kirekire kiriho insinga zohereza amashanyarazi mu baturage hose; bituma abaturage babona umutekano kandi ntibagire ibibazo by'ibura rya hato na hato ry'umuriro.

Umunara ukoreshwa nk'umuyoboro w'itumanaho ufasha abantu bose cyangwa se abantu begereye uwo munara kubona interineti mu gihe gitoya kandi neza, ibageraho nta gucikagurika.

Umuntu wakatiwe cyangwa se umuntu uri mu bagororwa akaba ari kumwe n'umumuhagarariye mu mategeko, bari kuganira ku rubanza cyangwa se ku byaha ashinjwa bityo, kugira ngo azabone uko amurenganura cyangwa se abacamanza bazamugabanyiriza ibihano.

Abagabo babiri aho umwe ari uwashinjwe cyangwa se, ukekwaho ibyaha undi akaba ari umugabo wundi wambaye ikanzu y'umukara akaba ari umuhagarariye mu by'amategeko bigatuma rero amushinjura imbere y'abacamanza bityo, akaza guhanwa cyangwa se akagirwa umwere.

Iyi ni igazeti ya leta aho usangamo amategeko ndetse n'amabwiriza bigenga abaturage b'igihugu, bigatuma umuntu yitwara neza ndetse iyo uhanwe cyangwa se iyo ukoze icyo cyaha bituma uhanwa ndetse ugacibwa n'amande, ariyo bita amande nyine y'igifungo kugira ngo umuntu ahanwe.

Imodoka y'umweru ya polisi ndetse ifite amatara y'umutuku n'ubururu agenda amyasa kugira ngo ngo abantu bamenye ko ari polisi ije, niba iguhagaritse uhagarare cyangwa se kugira ngo ngo abantu bitware neza mu muhanda badakora amakosa ndetse ikaba ikoreshwa mu muhanda gusa.

Umugabo muremure w'imisatsi ndetse n'ubwanwa bukeya, akaba ari kurahira ko agiye gutangira inshingano zo kuba umuyobozi, aba minisitiri, ndetse akaba afashe mu kiganza cy'ibumoso ibendera ry'igihugu, ndetse azamuye ikiganza cy'iburyo. Akaba ari kuvuga imigabo n'imigambi y'inshingano bamuhaye.

Inzu iberamo inama cyangwa se ishingamategeko aho intumwa za rubanda zitanga ibitekerezo hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'indangururamajwi, bigatuma buri wese agira ijambo kandi akabikora nta kabuza ko buri muntu wese yumva igitekerezo cye cyangwa se ikibazo cye.

Amatora y'umukuru w'igihugu, aho ari ishyaka rya efuperi ndetse umukandida waryo akaba ari Paul Kagame, yarii agiye kwiyamamaza yambaye ishati y'umweru, ndetse iyo shati ikaba ari iy'umuryango, n'abandi bafite utubedera twinshi tw'umuryango efuperi inkotanyi.

abayobozi babiri bari kurahira ku nshingano zabo bagiye gutangira cyangwa se batorewe cyangwa se bashyizwe n'umukuru w'igihugu bakaba bafasha ku ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ariyo icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu burimo izuba umugabo akaba yambaye ingofero n'imyenda y'abasilamu agashyiraho ikote n'umugore akaba akenyeye nk'abagore bose bo mu Rwanda.

Inzu y'ubucuruzi igereretse inshuro zirenze eshatu, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye aho bakodeshereza amakositimu n'amakanzu y'ubukwe, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Mu inteko ishingamategeko aho abadepite cyangwa se abahagarariye abanyarwanda bose baja bakaganira ku mategeko ndetse bakarebera hamwe ibibazo bagafata n' ingamba ku ribyo bibazo byabonetse. Bituma rero bafatwa nk' intumwa za rubanda aho bageza ibibazo by' abaturage ku bayobozi bakuru b'igihugu.

Mu muhanda wa kaburimbo cyangwa se umuhanda w'umukara aho hari igice cy'abanyamaguru, aho abanyamaguru bambukira, ndetse hakaba kari n'imodoka ivanga sima, ikaba ihagaze iyi modoka ifasha mu bwubatsi cyane cyane ndetse ikaba yoroshya akazi.

Imodoka yo mu bwoko bwa remoruki aho itwaye umucanga ukoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo iby'ubwubatsi nk'ubw'ingenzi bikabafasha kuvanga sima ndetse bigatuma inzu yubakishijwe umucanga ukomera, bigatuma rero abantu bose benshi bashaka kuwukoresha kugira inzu zabo zikomere.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa remorke cg se makuzungu, aho gikoreshwa mu kwikorera imizigo, cyangwa se ibicuruzwa kibivanye mu gace kamwe kibigeza ahandi, cyangwa se cyambukiranya ibihugu byinshi.

Imodoka yo mu bwoko bwa ritiko, nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho igenda ishyira abantu mu byapa bitandukanye, cyangwa se ibavana mu gace kamwe ibajyana mu kandi. Aho inyuma yayo hari abamotari, ndetse n'izindi modoka, hakaba hari n'umunyonzi. Iyo modoka ikaba ifite amabara atandukanye, arimo icyatsi, n'ubururu, n'umweru.

Mu muhanda aho hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka ziri kugenda zibizikana muri kaburimbo. Aho imodoka imwe irimo ubwoko bw'izikorera imizigo ndetse ikaba nta kintu kirimo Ikaba ivuye cyangwa se igiye gupakurura, naho mu wundi mukono hari imodoka iri mu bwoko bw'umuntu ufite iye ku giti cye.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho ibavana mu gace kamwe ibageza mu kandi bitewe naho berekeje.

Iki ni icyapa kiri cyo gishyirwa ku mihanda cyerekana ko ariho imodoka zitwara abagenzi rusange ariho zihagarara ndetse ko nta yindi modoka yemerewe ku guhahagara cyangwa se ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose cyemerewe kuhahagarara ko ariho abanyamaguru ndetse n'abagenzi bategereza izo modoka igihe zije bakazijyamo bakagenda bakayigera aho bashaka kugera.

Icyapa kirekire kiba kiri mu masangano y'umuhanda, cyane cyane ahantu hahurira imihanda irenzeri kerekana ko abantu igihe agatara k'umutuku abanyamaguru batambuka, igihe haka agatara k'icyatsi imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga byose biratambuka, naho igihe haka itara ry'umuhondo ibyo binyabiziga bibabyitegura guhagarara.

Ni umuhanda uri aho abaturage batuye werekana ko hari icyapa kiri bukate iburyo muri metero mirongo ine uvuye aho icyapa giherereye ugomba kugenda gake kugirango ubone uko ukata nta nkomyi.

Icyapa gishyirwa mu muhanda kugirango ngo gikoreshwe cyerekana ko imbere gato bari gukora umuhanda, cyangwa se hari indi mirimo y'ubwubatsi iri kuhakorerwa kugirango abantu bagende gakeya kandi bakoresha umuhanda neza.

Imiturire y'abantu batandukanye, aho usanga arimo amazu y'ubwoko butandukanye ndetse akabamo n'amabati ay'umukara, ay'umutuku ndetse akaba n'uburyo bw'ubwirinzi, aho bakoresha senkenge bituma abajura batabageraho byoroshye cyangwa se bagerageje kwinjira ibyuma bikabakata.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo aho hari imirongo y'umuhondo yerekana ahantu hateguwe guhagararwa n'imodoka, ndetse hakaba hari n'ahandi hari guca abanyamaguru habugenewe hakaba harimo n'umunyegare umwe uri kugenda acunga igare.

Ni umuhanda urimo imikono ibiri aho buri buri mukono umwe ufite ibisate bitatu by'umuhanda, aho igisate cyo hirya kiba cyerekana imodoka zigiye aho hafi zigiye gufata ikindi kerekezo naho hagati ubu abare abakomeje naho iburyo babara bagiye gukata iburyo.

Ni mu ijoro aho umuhanda cyangwa ibindi bikorwa remezo byose bigenda bimurikiwe n'amatara yo ku muhanda ndetse n'izindi nyubako ubwazo nazo zifite amatara yazo bigatuma buri muntu wese agera aho ashaka kandi nta nkomyi nta n'ikibazo cy'umutekano afite n'ibinyabiziga byose bigenda biri gucana amatara .

Imodoka y'umweru iri mu muhanda iri kugenda ndetse imbere hakaba hari umunyonzi, iyo modoka ikaba icuruza inyama cyangwa se ifite ukuntu ikonjesha inyama ndetse ikanazitwara neza ikazigeza aho bazijyanye zikiri nzima nta kibazo zifite.